Imodoka yitwa imbangukiragutabara, iyi modoka ikunda gukoreshwa n'amavuriro atandukanye aho haba hari umurwayi urwariye mu biturage cyangwa aho atuye, iyi modoka ikajya kumufata ikunda gufata abarwayi barembye cyane ikabajyana kwa muganga mu buryo bwihuse kugira ngo bakorerwe ubuvuzi bw'ibanze babashe gukomeza kubaho.

Abantu bahuriye hamwe baricaye, harimo abagabo n'abagore. Imbere yaho hari amazi, undi umwe imbere ye hari ikayi n'ikaramu. Bambaye impuzankano y'umutuku n'umweru, iriho umusaraba. Izi mpuzankano n'iz'ikigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze ndetse no gutabara abantu barwaye, cyitwa Croix Rouge. Aho bafasha umuntu ugize ikibazo cyangwa uburwayi butunguranye.

Abantu barahagaze umupolisi umwe arimo kwerekana uburyo abantu bagomba kwitwara barimo gukoresha ubutabazi bw'ibanze mu kuzimya inkongi y'umuriro, aho bafata kizimyamoto akaba arimo kumwereka uburyo babigenza.

Aka gakoresho kameze nk'indege. Mu ndimi z'amahanga wakita durone. Kifashishwa mu gufata amashusho cyangwa mu gutanga ubutabazi bwihuse. Aho bakambika imiti kakaba kajya gutabara umuntu uri kure mu masogonda makeya kubera ko kagendera mu kirere kaguruka, nk'indege.

Abantu bambaye impuzankano zirimo ijure isa umutuku n'umweru bakunze kuboneka mu kigo cyitwa kuruwa ruje gishinzwe ubutabazi bw'ibanze, batwaye umuntu warembye barimo kumukorera ubutabazi bamujyana kwa muganga.

Abaganga batandukanye kandi bambaye impuzankano zisa bari imbere y'umurwayi, aho bari mu gikorwa cyo kumubahaga. Kiba ari igikorwa cy'ubutabazi bukomeye, aho umurwayi abagwa kugira ngo abashe gukira.

Abantu benshi bari ahantu mu isoko hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'imyenda, inkweto n'ibindi ariko hakaba hari abantu batatu bambaye impuzankano inyuma hariho umusaraba w'umutuku, isengeri yo irasa umweru bakunze kugaragara ahantu hari abantu benshi aho batanga ubufasha bw'ibanze mu gihe umuntu agize ikibazo nk'uburwayi cyangwa ihungabana.

Abaganga benshi barenga batatu bari kwita ku murwayi warembye cyane abandi baturage barahagaze barimo kureba, ni abantu bari bari kwa muganga bategereje ko babakira ariko umurwayi umwe yarembye barimo kumwitaho mu buryo bwa kinyamwuga.

Imodoka yitwa imbangukiragutabara, irimo ibikoresho bitandukanye harimo n'igitanda umurwayi aryamaho kugira ngo ajyanwe kwa muganga, hari n'aho kandi umurwaza cyangwa umuganga ugiye kugenda umwitaho aba yicaye, harimo n'akandi gakoresho kajyamo imyanda, iyi modoka ikoreshwa iyo umurwayi yarwaye akajyanwa kwa muganga byihutirwa.

Amazu atandukanye kandi arimo n'indabyo, harimo abantu barimo kugenda hagati muri izo nzu cyangwa muri iyi nyubako, biragaragara nk'ikigo nderabuzima aho abantu bajya kwivuriza.

Abantu bicaye ari bane harimo umudamu umwe n'abagabo batatu, harimo umugabo wambaye ingofero iriho umusaraba w'umutuku, bishatse kuvuga ko aba bantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze mu kigo cyitwa Croix Rouge.

abantu bicaye hamwe ari benshi harimo uhagaze wambaye akajiri k'umutuku karimo umusaraba. Uyu nguyu akorera ikigo cyitwa croix rouge gishinzwe ubutabazi bw'ibanze, aho hakunze kuba hari abantu benshi noneho umuntu yagira ikibazo bakaba bamutabara cyangwa bakamufasha.

Abantu bambaye impuzankano y'ubutabazi bw'ibanze, batwaye umuntu warwaye, warembye, bamujyanye kwa muganga kugira ngo bamuvure cyangwa bamuhe ubutabazi bw'ibanze, aba bantu bakunze bari ahantu hari abantu benshi cyangwa habereye gahunda zo kwibuka kugira ngo umuntu uribugire ikibazo babashe kumufasha.

Ahantu hari uburiri bwinshi akenshi uburiri bumeze gutya bukunze kuba buri ahantu mu ivuriro cyangwa mu kigo nderabuzima, aho haryama abarwayi barembye cyane baba badashobora kujya mu rugo abaganga batabitayeho iyo umuganga abonye ufite ibimenyetso by'uburwayi bukabije, akohereza hano akaba ari ho uzajya uryama bakaza bakakwitaho, harimo kandi umubyeyi ufite ibikapu ameze nk'ugiye gutaha basezereye.

Inzu yakira abarwayi bahembye cyane aho haba harimo ibitanda bagomba kuryamaho, iyi ngiyi biba iyo umurwayi arembye cyane noneho abaganga bakabona bataneka ngo ataye mu rugo ahubwo akaguma kwa muganga kugira ngo akomeze kwitabwaho, aha rero harimo abarwayi barwaye kandi baryamye ku bitaro byo kwa muganga cyangwa ku buriri bwo kwa muganga.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abadamu n'abantu, baricaye kandi bategereje ko abaganga babakira, aba bantu batandukanye kandi harimo abarwayi, bicaye mu buryo bukurikiranye kugira ngo muganga agenda abakira uko bagiye baza.

Umuganga ndetse n'umurwayi. Muganga yambaye imyenda y'umweru n'umukara. Yambaye n'agapfukamunwa kandi afite igitabo arimo gusoma. Impanda ye hicaye umuntu umeze nk'umurwayi kandi w'umukecuru ukuze, ameze nk'aho umukecuru arimo kwisuzumisha kugira ngo muganga amenye uburyo amuvuramo.

Imodoka yitwa imbangukiragutabara, iparitse ku ivuriro ryitwa Gatunda cyangwa Ibitaro bya Gatunda, iyi modoka ishinzwe gukora ubutabazi bw'ibanze aho ifata umuntu warembye cyane utuye mu giturage ikamuzana ku ivuriro mu buryo bwihuse kugira ngo abashe guhabwa ubutabazi.

Inzu irimo umurwayi n'umugangaga. Umuganga arimo kwandika. Umurwayi aricaye. Bameze nk'abari kuganira aho umuganga aba arimo gusuzuma umurwayi, ari kumubaza uko yafashwe n'aho ababara noneho muganga akaba arimo kubyandika kugira ngo aba babashe kumenya uburyo bamuvuramo.

Icyumba cy'umurwayi kirimo ibikoresho bitandukanye. Hariho igitanda kiriho matera, umusego. Aho umurwayi agomba kuba aryamye kandi hari n'intebe igomba kwicarwaho n'umurwaza cyangwa umuganga waje kumwitaho. Ibi kandi bikunda kuba ku muntu urwaye cyane, aho umuganga yanga kwemera ko ataha ahubwo akaguma kwa muganga kugira ngo akomeze kwitabwaho.

Abantu bari mu ivuriro, batatu bari ku buriri abandi benshi barahagaze, abari ku buriri ni abantu bameze nk'abantu bari barwaye baje gusurwa n'abo bahagaze aho barimo kuganira bameze nk'aborohewe bicaye.

Imodoka itwara umurwayi ikunze kwitwa mu kinyarwanda kiza Imbangukiragutabara, irimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'aho abarwaza cyangwa umuganga ugiye kugenda umwitaho yicara, akenshi iyi modoka ikunda gukora nk'imbangukiragutabara aho ifata umurwayi warembye cyane imukura mu rugo ikamugeza kwa muganga kugira ngo bamwiteho.

Abantu bicaye ku murongo harimo abagabo, ababyeyi ndetse n'abana, bari mu ivuriro bategereje guhabwa ubufasha, bicaye ku murongo aho umurwayi yakirwa bitewe n'igihe yaziye bakurikirana ku uwaje mbere kugeza ku uwaje nyuma, bari mu nzu y'ubuvuzi wakita nko kwa muganga cyangwa ku kigo nderabuzima.

Ahantu hari abantu benshi ariko imbere yabo hari umuganga ndetse n'umurwayi, umuganga amaze gutera urushinge umurwayi. Umurwayi yashinyirije nk'umuntu uri kubabara kandi umuganga yamuhaye ibikoresho byifashishwa mu guhanagura amaraso.

Abaganga babiri kandi bambaye imyenda isa, barimo kurebera mu mashini ipima indwara cyangwa ibindi mikorobe zigiye zitandukana, aho nk'iyo urwaye Malariya ubaha amaraso yawe noneho bakareberamo bakareba ko urwaye cyangwa utarwaye, hari n'aho barebera SIDA ndetse n'izindi ndwara ziri zitandukanye barebera muri iyi mashini.

Umuganga urimo kurebera mu cyuma cyabugenewe. Ni icyuma gikunda gukoreshwa barimo gupima indwara runaka ziki zitandukanye, aho umurwayi atanga amaraso, noneho muganga akareberamo muri kino cyuma kugira arebe indwara arwaye kandi gikoreshwa no gupima izindi ndwara.

Umuntu mukuru ari kumwe n'abana, abana bamukikije bamuteze kandi amatwi. Afite igitabo ameze nk'umuntu urimo kubigisha cyangwa ari kubasomera inkuru. Ni abana batari benshi ariko nanone bicaye hamwe ku mukeka, aho umuntu arimo kubaganiriza anabasomera inkuru cyangwa ari kubigisha.

Umubyeyi wambaye igitenge kandi yakenyeye n'igitambaro mu mutwe. Arimo konsa abana babiri bambaye imyenda y'icyatsi. Ni abana babiri bari mu kigero kimwe, bisa nk'aho uyu mubyeyi yababyaye bari impanga ari kubonkereza rimwe.

Umukoranabushake wambaye n'impuzankano ari kumwe n'abana b'abanyeshuri bakiri batoya, wabafata ko bakiri mu mashuri y'inshuke, inyuma yaho kandi hari ibindi bikinisho, uyu muntu arimo kubakinisha bakoze uruziga barimo gukina imikino y'abana.

Abantu babiri harimo umugore umwe ndetse n'umugabo barimo kugenda bari gusoma ku cyapa cyanditseho inkunga y'urukerarugendo mu iterambere ry'umuturage bibiri na makumyabiri na kabiri bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umubyeyi ufite umwana ahetse ndetse n'umugabo ukikiye umwana, hari abana benshi ariko hari umwana umwe barimo kwitaho ufite ikibazo cy'uburwayi, umubyeyi arunamye arimo kumwitaho kugira ngo umwana abashe kumera neza.

Abarwayi bari kwa muganga, ni abarwayi bane bamwe babiri bararyamye, abandi baricaye. Ni ahantu hari abarwayi baharembeye bamwe baba barandikiye ibitaro, bakaba bari kuba kwa muganga kugira ngo bazahave barimo koroherwa.

Umukorana bushake arimo kugabanya abana igikoma, ni abana bakiri batoya aho babaha igikoma nk'ikibafasha mu gukura neza no kubarinda indwara zirimo kugwingira cyangwa kurwara bwaki, ni igikorwa leta yateguye kugira ngo ifashe abana gukura neza.

Inzu iriho icyapa cy'umweru n'amagambo yanditseho asa ubururu n'umukara. Ni inzu iriho icyapa kivuga ngo urugo mbonezamikurire y'abana bato. Bivuze ko hari ikigo gishinzwe kuboneza imikurire y'abana bakiri bato.

Umubyeyi wicaye ukikiye umwana kandi muganga we arahagaze arimo kumwitaho, yambaye ibikoresho byifashishwa mu kuvura, kandi muganga yambaye n'agapfukamunwa ku meza yabo hariho ibitabo ndetse na telefone nijage.

Ababyeyi bicaye n'abandi bahagaze buri mubyeyi akikiye umwana, imbere yabo ahagaze umuntu wambaye umupira ujya gusa umuhondo n'ipantaro y'umukara, arimo kubaha ikiganiro bose bamukurikiye, arimo kubaha ikiganiro kijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi urimo guha amata umwana, ni mata y'Inyange, aba yaratunganyijwe n'uruganda rwitwa Inyange, ni amata afasha umwana gukura neza ndetse akamurinda n'indwara zitandukanye, harimo za bwacya, inyuma yabo kandi hari undi mubyeyi ufite umwana.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye harimo abicaye ndetse n'abahagaze, bari mu gikorwa cyo guharanira uburinganire hagati y'abashakanye ndetse no kwirinda ihohoterwa rishingiye ku bana.

Icyapa cyanditseho amagambo avuga uti ''isuzume umenye urugero rw'umuhangayiko wawe, unyuze ku rubuga rwacu.'' Ni urubuga ruriho kubaza ibibazo kugira ngo ubashe kumenya ku kigero cy'umuyiko wawe.

Inzu icuruza imiti y'abarwayi ni inzu iriho icyapa cyitwa erioti farumasi bacuruza imiti y'abarwayi igiye itandukanye aho umurwayi ajyayo akisuzumisha na muganga uyicuruza noneho umuganga yamubonamo indwara akamuha imiti noneho umurwayi akamwishyura amafaranga imbere yaho haparitse moto ndetse n'abantu.

Inzu icuruza imiti y'abantu, imiti yo mu bwoko butandukanye, aho umuntu aza akisuzumisha, noneho muganga akamuha imiti ihuye n'indwara arwaye noneho umurwayi nawe akamuha amafaranga. Hari imiti iri mu ducupa, ndetse n'indi iri mu makarito.

Inzu icururizwamo imiti ni imiti y'abantu, imiti igiye itandukanye, hari iri mu dukarito dutoya ndetse iri no mu ducupa, haba harimo ibinini ndetse n'imiti y'amazi cyangwa yamatembabuzi, aho umurwayi aza agasanga muganga ucuruza imiti muganga akamusuzuma noneho akamuha imiti umurwayi na we akamwishyura.

Inzu y'ubucuruzi irimo imiti igiye itandukanye, hari imiti iri mu makarito ndetse n'iyindi y'amatembabuzi iri mu ducupa, harimo umuganga utegereje kwakira abarwayi kugira ngo abahe imiti na bo bamwishyure.

Inzu icuruza imiti y'abantu, ni inzu aho umuganga cyangwa umuntu wize ubuvuzi arangura imiti akayegereza abaturage, aho umurwayi arwaye araza uwo muganga akamusuzuma maze akamuha imiti igomba kuvura indwara ye, muganga amuha umuti noneho umurwayi na we akamuha amafaranga, ni ahantu hari imiti igiye itandukanye.

Inzu icuruza imiti y'abantu aho umurwayi ajya agasuzumwa na muganga ucuruza iyo miti, muganga yamara kubona ibisubizo by'indwara arwaye akamuha imiti noneho umurwayi na we akamwishyura, hano muganga yambaye impuzankano z'akazi kandi hari umurwayi arimo kwitaho.

Inzu y'imiryango y'icyatsi yanditseho farumasi, bivuze ko ari inzu ikorerwa mu bucuruzi bw'imiti ivura abantu, aho umuntu urwaye agenda akegera umuganga ucuruza imiti akamusuzuma noneho umuganga akamuha umuti umurwayi na we akamuha amafaranga.

Inzu iri mu irangi ry'umweru hari icyapa k'icyatsi cyanditseho Apotex farumasi. Ni inzu y'ubucuruzi icuruza imiti y'abantu, aho umurwayi urwaye agenda akisuzumisha na muganga uba ucuruzi iyo miti, yamusangamo indwara akamuha imiti, umurwayi nawe akamuha amafaranga.

Inzu icuruza imiti y'abarwayi, aho umuganga cyangwa umuntu wabyigiye ajya kurangura imiti akayegereza abaturage. Aha umurwayi iyo arwaye araza akegera muganga akamusuzuma akamugenera imiti agomba kumuha. Iyo ayimuhaye muganga baramwishyura. Harimo rero muganga wegereye imashini witeguye kwakira abarwayi.

Imiti ivura amatungo magufi, cyane cyane iyi imiti ishushanyijeho inko, yavuze ko ari imiti ivura amatungo y'inkoko. Akenshi inkoko zikunda kurwara indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane cyangwa umusinziro.

Inzu irimo imiti y'abarwayi cyangwa imiti y'abantu, harimo imiti iri mu ducupa iyindi iri mu dukarito, aho umurwayi ajya akisuzumisha noneho muganga akamuha imiti ihwanye n'indwara cyangwa ivura indwara uwo murwayi arwaye, noneho umurwayi akishyura amafaranga umuganga na we akamuha umuti.

Umuntu ufite ibinini. Harimo ibinini bisa umuhondo ndetse n'ibindi bisa umweru. Hari ibishushanyijeho agasaraba, ibindi bikaba bishanyijeho akarongo, ndetse n'ibindi nta kintu gishushanyijeho. Ni imiti ahawe na muganga kugira ngo ayinywe ibashe kumukiza, ikindi kandi afite n'igipapuro.

Inzu iriho icyapa gicuruza imiti. Yitwa soluva. Ni inzu icuruza imiti y'abantu, aho umurwayi ajya agasanga muganga ucuruza imiti, akisuzumisha noneho umuganga akamuha imiti ijyanye n'indwara arwaye. Muganga arangura imiti mu buryo bwo kunguka cyangwa bw'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza imiti aho umuganga agenda akagura imiti akayegereza abaturage noneho umurwayi akajya agenda akisuzumisha muganga akamuha imiti noneho umurwayi akamwishyura, muganga arimo ategereje abarwayi ngo abakire kandi harimo imiti itandukanye, hari n'akapa kari imbere k'umuhondo kagaragaza imibare umuntu yishyuriraho amaze kugura imiti.

Inzu icuruza imiti ivura abantu harimo imiti itandukanye aho umurwayi yayizana akayegereza abaturage, akayegereza abaturage, abaturage bakaza iyo barwaye bakaza muganga akabasuzuma yabasangamo indwara akabaha imiti na we bakamuha amafaranga.

Inzu irimo ibicuruzwa by'imiti y'abarwayi, ni inzu abenshi bakunze kwita n'inzu abantu baguriramo imiti, iba irimo imiti itandukanye kandi ivura n'indwara zitandukanye, aho umurwayi asangamo umuntu ucururiza imiti hano akenshi aba yarize ibintu by'ubuvuzi noneho akamubwira ikibazo afite muganga akamuha imiti ihwanye n'indwara arwaye, umurwayi na we akamwishyura.

Inzu irimo imiti, ni inzu icuruza imiti y'abarwayi aho harimo imiti iri mu dukarito ndetse n'indi iri mu ducupa kandi haba harimo imiti y'ibinini ndetse n'andi y'amatembabuzi, aha umurwayi araza agasanga umuganga ucuruza ino miti muganga akamusuzuma noneho akamuha imiti ijyanye n'indwara arwaye, umurwayi na we akamuha amafaranga.

Ibinini biri mu moko atandukanye. Harimo ibinini by'icyatsi, ibinini by'umweru, ibinini by'icyatsi n'umuhondo, ibinini bijya gusa muhondo. Ibinini by'umutuku n'umweru ndetse n'ibinini by'umutuku. Ni ahantu hakusanyirijwe ibinini by'amoko menshi kandi bivura indwara zitandukanye.

Inzu icuruza imiti y'abarwayi cyangwa imiti y'abantu, harimo umuntu cyangwa umuganga ushinzwe kwakira abarwayi, harimo imiti itandukanye, imbere y'uwo muganga afite mashini aho yandikamo ibintu bigiye bitandukanye n'amaraporo atandukanye kandi aba ategereje abarwayi bamugana kugira ngo abahe imiti na bo bamwishyure.

Ahantu hari abantu benshi bicaye mu buryo butandukanye. Uburyo bicayemo n'ibyo bicayemo biteguye mu marangi y'ibendera ry'igihugu, harimo umuhondo, icyatsi n'ubururu. Bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga kijyanye n'ubuzima.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage basanzwe, harimo aba dasso, bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo, ukwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi, aho barimo kubwira abaturage banabashishikariza gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge, ni inshingano za buri muntu wese.

Abantu benshi batandukanye harimo abicaye ndetse n' abahagaze, hari abaganga bari gutanga ikiganiro ku barwayi cyangwa abantu. Ikiganiro kijyanye n'uburyo bakwirinda indwara zitandukanye aho abarwayi cyangwa abantu muri rusange bateze amatwi abaganga kugira ngo babahe ikiganiro.

Ivomero rusange ni ivomero ririho abantu benshi ndetse n'amajerekani ateretse ku murongo. Aho abantu baza kuvoma amazi kandi bakishyura. Akenshi injerekani y'amazi iba igura amafaranga igiceri cya makumyabiri.

Umuganga gakondo. Umuganga w'umudamu ucuruza imiti ya gakondo, aho harimo imiti igiye itandukanye. Iyi miti akenshi ntabwo iba yanyuze mu nganda, kandi ikindi iba ituruka mu bihingwa cyangwa mu bimera.

Umuntu uri mu nzu urimo gucuruza ibicuruzwa by'imiti ya gakondo, ni imiti akenshi iba ivura indwara zitandukanye ariko ituruka mu bihingwa cyangwa imizi y'ibihingwa, nta bikoresho bya kizungu biba byaraciyemo cyangwa ngo bice mu ruganda.

Inzu icuruza imiti y'abantu ariko ikaba ari imiti gakondo. Harimo umudamu cyangwa umuganga uyicuruza. Iyi miti akenshi iba ituruka mu bimera kandi ikaba itavangiyemo ibindi bintu bya kizungu.

Ahantu bacuruza imiti gakondo ni imiti akenshi bituruka mu bimera cyangwa mu mizi yashakwa ari ibibabi cyangwa imizi y'ibimera cyangwa ibyaturutse ku nyamanswa ni imiti gakondo ntago iba ivangiye n'ibintu byaturutse mu nganda cyangwa mu bazungu.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore, bicaye hamwe bameze nk'abateze amatwi bari kwa muganga, muganga arimo kubaha ikiganiro ku ingingo zitandukanye cyangwa akaba ari kubasobanurira uko bagomba kwitegura serivisi bagiye kubaha cyane cyane kuko baba bagiye abenshi barwaye cyangwa ukaba bari kubaganiriza ku ndwara runaka bagomba kwirinda.

Umuganga aricaye umurwayi arahagaze, umurwayi arimo kumuhereza ibyangombwa, haba harimo ibyangombwa bigaragaza ko yishyuye ubwishingizi mu kwivuza kugira ngo abashe kwitabwaho n'abaganga ku giciro gitoya, kandi hari n'abandi bagabo bicaye bategerejwe nabo kwitabwaho.

Abantu bambaye udupfukamunwa kandi barimo gukaraba, ni ahantu heza barimo gukarabira hari amakaro y'umweru, ni mu buryo bwo kunoza isuku ndetse no kurwanya ibyorezo byandurira mu gukoranaho, aho abarwayi bakaraba, abantu bose bakaraba kugira ngo birinde kwanduzanya nk'ibyorezo nka kimwe nka Covid cyangwa ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako yubatse isize amarangi y'ubururu, yanditseho amagambo kugira ubuzima, bishatse kuvuga ko ari ikigo nderabuzima, aho abarwayi bajya kwakira zimwe muri serivisi kugira ngo babashe kuvurwa, impande yaho kandi hari ahantu hari kandagira ukarabe, aho umuntu wese ugiye kwivuza abanza agakaraba.